Umutaka wa airtel kandi uteretse ahantu hari utwatsi, hari n'abandi bantu benshi bahagaze. Hari umugabo wambaye umupira urimo imirongo itambitse y'umweru niy'umukara n'ikote, ufashe antiburoke ishushanyije ku ikarito ari kuyirebesha imbere.

Umukozi wa airtel w'umugabo wicaye mu ntebe wambaye ikote n'ishati na karuvati, imbere ye hari ibyapa bya airtel kandi nawe afite ikirango cyanditseho kohereza amafaranga ku mirongo yose.

Akazu k'agakiyosike ka MTN gacururizwamo amayinite kari ahantu mu mbuga kandi gafunguye imiryango itatu gashushanyijeho telefoni.

Umukozi wa MTN wicaye wambaye ikarita, ufite telefone. Yicaranye n'undi mugabo wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, wambaye umupira utukura ufitemo amabara y'umukara bari kureba kuri telefone bombi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru afite ibisuko ku mutwe, inyuma ye hari umusore uri kugenda amukurikira wagira ngo bafitanye gahunda bagana ahaparitse moto ku gasantere.

Umutaka wa MTN urimo umukozi wayo, kandi harimo abakiriya baje kugura amanite, bamwe bahagaze abandi bicaye, inyuma yaho hari n' abandi mu mutaka utandukanye n'uyu wa MTN.

Akazu ka Aitel kari gucururizwamo amainite, gafunguye imbere yako hicaye umuntu w'umugore hari n'undi uri gutambuka ufite agakapu mu ntoki.

Umucuruzi uri mu kazu ka Airtel arimo yakira umukiriya uhagaze inyuma, kandi gafunguye imiryango yose, kari ku santere imbere yako haparitse imodoka ebyiri z'umweru, imbere yazo hari umugenzi uri gutambuka.

Ibirango by'amashyirahamwe atandukanye byifashishwa mu kuyobora abaturage kugira ngo bamenye aho babariza serivisi nka banki ya Kigali, Equit, irembo, icya MTN, Airtel, Tigo, ibyarura ndetse n'icya REG.

Umutaka wa MTN wicayemo abajeti ba MTN bari gucuruza amayinite, bambaye amajiri y'imihondo kandi afite umukiriya, inyuma yabo hari imodoka iparitse, hari na moto.

Umugabo n'umugore bahagaze bari mu biro aho bakorera akazi kabo ku ishami rya Airtel mu Rwanda bambaye imyeru hejuru iriho ibirango bya Airtel imbere yabo hari mudasobwa umugabo ari kuyikoresha umugore na we ariyo ari kurebamo.

Aho bagurira pero igiciro kiri hasi ki bidasanzwe, hari abantu bahagaze kandi ari kuri kontwari baka serivisi, hari n'byapa bya MTN bihagaze.

Abagabo, babiri, bahagaze, bari guhana, igihembo, cyangwa se, ishimwe, umwe afashe undi, mu kiganza, harimo, n'umugore, uhagaze, nawe, afashe, icyo gihembo, nyuma yabo, hicaye, abandi, bantu, mu itente.

Umuryango witwa Kopama wo mu karere ka Nyagatare wahuriye hamwe ahubatse itenti, bakaba bari gutanga icyemezo k'ishimwe ku munyamuryango wabo, aho kiri gutangwa n'abagabo babiri n'umugore uri kucyakira wambaye amataratara.

Ibigori bimanitse ahantu kandi binini byumye bifite n'ibihu byumye, bikaba bisharitse buri kimwe cyegeranye n'ikindi ariko birunze ku buryo ari byinshi.

Abagabo bahagaze hamwe ku murongo, kandi bose bambaye amakote, abenshi muri bo harimo n'umusirikare, imbere yabo hari umugabo, urimo abasobanurira afite igitabo mu ntoki.

Inyubako nini y'ishyirahamwe ryorora inkoko harimo umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi na bote uteze igitambaro mu mutwe, harimo inkoko nyinshi z'umweru arimo azigendamo hagati.

Umugabo uhagaze agaragara neza, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Hari ahakorerwa ubworozi bw'inkoko zubakiye neza, higanjemo inkokokazi n'amasake.

Abagabo bahagaze bari kumwe n'abagore kandi bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye ari indabyo zikoze neza zifite amabara atandukanye zifitwe n'umugore ariwe uri kugenda aziterateranya.

Kuri bar yitwa amahoro igishushanyo gishushanyijeho ibinyobwa by'inzoga bitandukanye n'ibiribwa nk'inyama, imbere yaho hicaye abantu mu ntebe zitukura kandi hari n'abandi bahagaze hari imitaka ya Airtel.

Icupa ry'inzoga ryegamiye ripfundikiye inzoga ikirimo imbere, yanditseho ngo virunga silver kandi ridafashwe n'umuntu ahubwo rishushanyije ku gikuta.

Ibikombe byiza by'umweru, byifashishwa muri bale batanga inzoga, biteretse ku murongo bigiye birutana mu bunini no mu burebure, kandi buri gikombe kirimo inzoga nkeya kituzuye.

Umugore uri mu iduka wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari amacupa yiganjemo ay'inzoga, iruhande rwe hari firigo na yo irimo amacupa y'inzoga acuruza.

Umugore wambaye ishati y'umweru, ufite ibisuko ku mutwe, uhagaze mu iduka kandi rimeze nka arimantasiyo, imbere ye hari firigo irimo amacupa y'inzoga, inyuma ye hari andi macupa y'inzoga menshi agiye atandukanye.

Mu isoko aho bacururiza ibintu bitandukanye: imipira, imikeka, tapi, matela, imyenda, byose bihari hari umwana winjiye w'umunyeshuri wambaye inifomu ukenyeye umupira ari kumwe n'umucuruzi bari kumvikana ibiciro.

Muri boutique, imbere harimo umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro, uhagaze, harimo ibicuruzwa bitandukanye, imikati, amagi, inyanya na bombo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nka pome.

Iduka rinini ryuzuye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo udukapu tw'abagore dukoze mu myenda harimo nk'imyenda n'amakanzu n'amajipo kandi hagiye harimo n'ibindi nk'udusaro.

Igipangu cyubatse neza kirekire kiriho umuryango, kirimo inzu, imbere y'umuryango hari umwana w'umuhungu uhahagaze kandi hejuru kimanitseho kanari.

Imifuka iteretse ku murongo irimo ibirayi byuzuye neza kandi igiye isonnye, inyuma yaho hari abantu batatu bahagaze, iruhande rwayo inyuma yabo na ho hari imodoka, hakurya yaho hari moto.

Butiki yuzuye neza irimo ibicuruzwa byinshi nk'amapuderi, amavuta yo kwisiga, ayo kurya, amakaramu, amabombo, amabiswi,... ihagaze umugabo wambaye agapira ufite ikaye mu ntoki indi irambitse hasi afite ikaramu ari kwandika.

Mu iduka aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye harimo umugore uhagaze ufite imisatsi myinshi wambaye agapira k'umukara n'agashanete mu ijosi afite imikati, ibindi amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye mu ndobo.

Muri butike harimo umugabo wambaye ikote ry'umupira w'umweru imbere yaryo kandi ufite umusatsi mukeya uhagaze, iruhande rwe hari terefone, inyuma ye harimo ibirungo n'ibindi bicuruzwa byinshi nk'amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugore uhagaze wambaye neza ufite mikorofone ayifatishije akaboko k'iburyo ari gutanga ikiganiro, inyuma ye mu itente hicaye abandi bantu mu ntebe z'ubururu.

Mu musigiti ahari abagabo batatu umwe ahagaze, hari umusaza utirabura w'umunyamahanga kandi abandi ari abirabura, umwe yunamye n'undi nawe we ahagaze, iruhande rwabo hari mikorofone ihagaze itari kuvugirwamo n'umuntu.

Inyubako ya kiliziya y'abakatolike, iri ahantu heza yubatse neza n'amatafari ahiye iriho ikimenyetso cy'umusaraba ku nkingi yo mu mutwe w'urwo rusengero, kandi mu mutwe nanone hari ikigega ,imbere yacyo hari ururabyo rumeze neza.

Urusengero rw'itorero rwa adeperi rwa Nyagatare, rw'ubatse neza kandi rufite ubusitani. Imbere yarwo hari habereye umuhango wo gusengera umushumba w'ururembo rwa Nyagatare ndetse n'abashumba ba paruwase yaho.

Abantu bari hamwe bahagaze higanjemo igitsina gore, bamwe bateze ibitambaro, abandi bahetse abana, hari n'abandi bana batoya bicaye imbere yabo, hose hari ameza arambitseho igitabo.

Abantu benshi bari hamwe, harimo umuzungu n'abirabura kandi bose bafite ibiseke byo guturiramo, abandi batabifite bahagaze ku buryo bwegeranye birunze.

Umugabo uhagaze wambaye ikote muremure, wambaye n'agapfukamunwa ku munwa ari kumwe n'undi wambaye amataratara n'agapfukamunwa gatukura n'ishati izwi mu bwoko bwa mayami bafashe ipantaro mu ntoki.

Kiriziya y'abakatorike aho bahurira bagiye gusenga, yubatse neza n'amatafari ahiye, isakaye, imbere yayo hari imodoka ihaparitse kandi umuhanda ujyayo ari uw'igitaka.

Kuri Kiliziya imbere yayo hari abaturage bahagaze baje gusenga, bamwe bari ku murongo biganjemo abagore, abagabo, Kiliziya iriho umusaraba hejuru, hariho n'icyapa ahagana ku ruhande rwayo rw'ibumoso.

Sare nini irimo intebe zitandukanye, zidatenze neza ku murongo harimo n'utumeza kandi muri yo hasa nk'ahijimye, harimo amatara makeya ari kwaka gahoro.

Inyubako ndende igeretse kabiri, kandi imbere yayo hari parikingi, aho imodoka zihagarara haparitse imodoka ebyiri ziyirebaho, iruhande rwabo hari inzira izamuka ijya mu nyubako yo hejuru.

Inyubako nini nziza ya hoteli yubatse mu buryo buzengurutse, ifite inkingi kandi imbere yayo hari ikirango cyanditseho Visit Rwanda, hari n'umuhanda hari n'ubusitani n'indabyo.

mu cyumba cya hoteri kimeze neza, kirimo igitanda gishasheho matela n'amashoka y'umweru n'imisego ibiri nayo y'umweru, kirimo n'akabati kandi gifite n'idirishya.

Intebe ziri mu nzu ziticayemo abantu, zitenze ku murongo hagi harimo n'ameza kandi ikaba ifite amadirishya n'amatara, isize amarangi ifite n'amarido.

Pisine itarimo abantu bari kuyongeramo kandi iri ahantu heza yubakiye, iruhande rwayo hari intebe zihenze ku murongo ziticayeho abantu kandi ifite ibyuma abantu bazamukiraho bavuye koga.

Igitanda gishashe neza kiriho imisego ibiri ahagana haruguru umutwe kirambitseho ishuka itambitse kandi iruhande rwacyo ari ho itara bacana bagiye kuryama hejuru yacyo ari aho bacomeka telefone.

Inzu, yubatse neza, igeretse, kandi, ifite, inkingi, imbere yayo, isakaye, ifite, Karidefo, utwuma, turinda, abantu, gukora, impanuka, imbere yayo.

Inzu yubatse neza igeretse ifite amasikariye kandi ifite n'ubusitani burimo indabyo zigiye zitandukanye ziteye ku mpande zitandukanye, hejuru yayo ifite agashove kanyuramo imyotsi.

Hariho amasahani atandukanye, ibinyobwa byo kunywa n'imikati nayo ku masahani. Amasahani yandi nayo akaba ariho ibiryo biteguye neza byo kuribwa ariko nta bantu bicaye hafi aho.

Inzu imeze neza ifite amadirishya ameze neza ariho ibirahure, ifite amarido, ifite ameza akoze neza n'intebe, igitanda kiriho matela, iriho ishuka n'umusego kandi ikaba ikinguye.

Icyumba muri hoteli, hari ameza n'igitanda gishashe neza, kiriho ishuka y'umweru, imisego ibiri, icupa ry'amazi, amarido azinze, harimo n'akabati.

Igitanda gishashe neza cyo muri hoteli kiriho imisego ibiri kandi gifite amashuka agishasheho kandi ari mu cyumba gifite amarido meza maremare.

Inyubako yubatse neza, isakaye, imbere yayo ari amatararapo y'ibihugu bitandukanye kandi hari n'ibiti bitanga umwuka wo guhumeka, n'izindi ndabyo ngufiya kandi byose biteye ku murongo.

Inzu yubatse neza isize amarangi y'umweru, isakaye kandi ifite amadirishya, imbere yayo hari aho imodoka ziparika, haparitse imodoka ebyiri harimo n'iy'umukara.

Muri hotel ahatunganyirizwa ibiryo n'ibindi byo kunywa, hari amacupa n'ibindi bikoresho bitandukanye bijyamo ibisukika, biteretse ku murongo, ku meza ameze neza, hariho n'igitambaro, nta muntu uhari.

Abacuruzi bo ku mihanda biganjemo abagore bicaye bafite imifuka irimo ibicuruzwa bitandukanye, hino yabo hari umugabo na we wicaye bafite n'imitaka ibindi babishyize hasi.

Isoko aho abacuruzi bacururiza, harimo umugore wicaye ufiite umunzani wo gucuruza ibitunguru bya kinyarwanda bitukuye, hirya ye hari abandi bantu bari kugenda harimo n'umugore uhagaze.

Umuhanda nyabagendwa ukoze neza wa kaburimbo, urimo abagenzi batandukanye, bamwe bikoreye imifuka b'abagore kandi harimo n'ab'abagabo, bari kugenda batikoreye, inyuma yabo hari amazu ahameze nko ku gasantire.

Mu muhanda w'igitaka imbere y'agasanteri harimo umugabo arimo agenda, ari kumwe n'akana gatwaye agafuka mu ntoki, inyuma yabo hari umunyonzi uri kumwe na mugenzi we bari gupakira, imitwaro ku igare ngo bayitware bayijyane.

Abacuruzi bacururiza ku mihanda ku gaseta, aho bicaye bitandukanye ku murongo, hari ibicuruzwa bitandukanye imineke ihiye neza, inyanya zimeze neza n'ibindi bigiye bitandukanye bifitwe n'abandi.

Mu isoko ahakorerwa ubucuruzi butandukanye ahaba ibiribwa n'ibicuruzwa bigiye binyuranye harimo imitaka ya MTN, hari n'umucuranzi wa gitari, afite gitari arimo ayicuranga yambaye n'agapfukamunwa. Abacuruzi benshi barimo bamwitegereza.

Muri resitora ahatangirwa serivisi zitandukanye higanjemo izo kurya n'izo kunywa, hari intebe zitenze ku murongo n'ameza n'abandi bakoramo bambaye amakanzu y'umweru barimo bajyana ibiribwa babishyiriye abakiriya.

Muri resitora aho barira hari ameza arambitseho ifoke kandi n'amasahani, hariho ibiryo biteguye neza hariho n'ibyo kunywa biri mu bikombe by'ibirahure biteretse kw'ayo meza.

Umuhanda wa kaburimbo munini kandi urimo moto iriho umumotari, arimo ayitwara areba muri terefone, kasike irambitse imbere indi ayambaye, iruhande rwe hari amazu n'indabyo.

Mu muhanda w'igitaka ahagana mu isoko AHariho umumotari uri kuri moto wambaye jili na kasike ahetse undi na wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'igikapu, hirya yabo hari izindi moto ziri kugenda bose bari kugenda mu cyerekezo kimwe.

Mu muhanda ahanyura ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ebyiri zishoreranye, imbere yazo hari imodoka yazibujije gutambuka, kandi umugenzi uhetswe afite umuzigo munini ku mavi.

Amamoto aparitse ahantu hasanzwe hagarara ari amapave abamotari benshi bazicayeho, abandi batazicayeho bamwe bambaye amakasike abandi bari kuri terefone harimo n'imitaka...

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwawe n'umushoferi ariko yicayeho wenyine yambaye kasike, hakurya ye hari amazu imbere yayo hari abantu bicaye.

Umugabo bari kumwe n'undi musore bahagaze bafite moto ibari hagati, umugabo we yunamye kandi ari kuyikora mu masinga y'imbere ahagana mu gitwe cyayo, undi musore nawe ayifasheho ku kaboko k'ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa hakurya yawo hari ibiti n'urupangu rwubatse nk'amazu, urimo umumotari utwaye moto kandi ahetse umufuka inyuma ye aho batwara abagenzi, imbere ye hameze nk'ahakiri urugendo rurerure.

Moto ku muhanda wa kabuyerimbo munini kandi ihetse umuntu iriho umumotari utwara umugenzi, iruhande rwawo hari icyapa cyanditseho mirongo itandatu, hafi aho hari isantere iparitsemo izindi moto munsi y'amaduka.

Umuhanda kaburimbo urimo moto iriho abantu babiri bombi bambaye kasike, umwe ayitwaye undi ahetswe, uhetswe kandi afashe inyuma, kandi hafi yabo hari amazu, imwe igeretse indi itageretse.

Mu muhanda wa kaburimbo ahanyura ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo imodoka, moto ndetse n'ibindi, harimo umumotari utwaye moto afatishije akaboko kamwe, inyuma ye hari undi mugenzi we bashoreranye.

Umuhanda, wa kaburimbo, ukoze neza, kandi, urimo, umunyonzi, utwaye igare, ataririho, agenda arisunika, ahetse, ibicuruzwa, nk'umuceri inyuma, ndetse n'amakarito.

Umuhanda munini wa kaburimbo iruhande rwawo hari ibiti biri kugenda mo moto, iriho umugabo wambaye agapira k'ubururu na kasike uhetse umwana mutoya nawe wambaye kasike, ingofero bifashisha kugira ngo ibarinde.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga kimwe cya moto iriho umumotari wambaye ijiri, kandi afite na kasike, afashe kuri moto ayitwaye iri kugenda, ahetse umugenzi w'umugore nawe ufite telefoni muntoki.

Umuhanda wa kaburimbo munini, urimo moto igenda hicayeho umushoferi, kandi ahetse umugenzi, bombi bambaye amakasike babisikanye n'indi iri kujya aho baturutse.